Inzu yicawemo n'abagore, ndetse biganjemo n'abagabo, bicaye ku meza maremare arebana, imbere y'ayo meza bicayeho hateretseho amazi, ndetse harimo n'abagabo bambaye amarinete.

Inyubako yicawemo n'abanyeshuri bagiye batandukanye ndetse abo banyeshuri bakaba bambaye imipira isa ubururu, karimo abambaye imipira isa ubururu arimo yandikishijweho amagambo y'umweru ndetse kandi hakarimo n'umunyeshuri umwe wambaye ishati y'umweru yambaye n'ipantaro ya kacyi.

Inyubako yicawemo n'abagore ndetse bagiye batandukanye , harimo abagore bambaye amadarubindi batatu ndetse n'umwe w'uruhu rwera. Ndetse muri abo bagore bari imbere barangaje abandi ,harimo abagore babiri begeranye ndetse umwe wambaye amadarubindi w'inzobe wambaye n'umupira usa kake.

Amashusho abiri agaragaza abagabo bahagaze ndetse bavanzemo n'abagore, ndetse munsi hakaba hari n'abandi bagabo bicaye ku meza maremare, ayo meza akaba ari ameza ateganye mu buryo bubiri butandukanye, ndetse hakaba harimo abantu b'ingeri zitandukanyemo; abagore bambaye n'amadarubindi, ndetse n'abagabo bicaye bagiye batandukanye.

Abantu batatu bicaye, babiri bareba imbere undi uri kureba inyuma, ndetse umwe uri kureba inyuma yambaye isengeri y'umuhondo irimo ibara ry'ubururu ndetse n'akarongo gatambitsemo k'umukara ndetse uwo muntu wicaye areba abo bantu akaba ari umugore.

Ishusho igaragaza abagabo babiri bari kurebana. Umugabo umwe afite imvi ariko zigiye zivangavanze n'umusatsi usanzwe w'umukara. Umugabo ufite imvi akaba yambaye ikote risa umukara ariko werererutsemo akaba yambayemo n'ishati y'umweru, ndetse akaba ari kurebana n'umugabo wundi wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru.

Inyubako yicayewemo n'ingeri zitandukanye, harimo abagabo harimo n'abagore ndetse hari abagabo bagaragara, umugabo umwe wambaye ikoti ry'ubururu ndetse wambariyemo n'ishati y'umweru akaba yegeranye n'undi mugabo na none wambaye ikoti ry'umukara harimo n'ishati y'umweru.

Imeza ndende iri mu nyubako yicaweho n'abagabo ndetse n'abagore, ndetse imbere yabo hari amazi ari mu ducupa. Ndetse kandi umugabo umwe witaruye wicaye wenyine yambaye ikoti ry'umukara ishati y'umweru na karavate.

Inyubako yicawemo n'abantu b'ingeri zitandukanye, b'abanyamahanga, harimo abirabura, harimo n'abazungu. Bicaye ku imeza ndende, mbere yaho hari amazi ari mu ducupa. Ndetse abenshi muri bo, harimo abazungu babiri, bambaye amakote n'amashati y'umweru mo imbere.

Inyubako isize irangi ry'umweru, ifite n'amadirishya k’utwuma twaho hasizeho irangi ry'umweru, iyo nyubako yicayemo n'abagabo ndetse harimo n'umugore umwe. Imbere yabo hateretse amazi, mur’abo bicaye imbere barangaje abandi harimo umugore wambaye ikanzu ijya gusamo umutuku ariko wera cyane, ndetse afite n'umusatsi mwinshi.

Inyubako ifite igisenge cy'umweru yicawemo n'abagabo ndetse harimo n'abagore, bakaba bicaye ku meza maremare ateganye, ndetse harimo umugabo umwe wambaye amadarubindi wambaye ishati y'ubururu bwijimye n'ipantaro isa ubururu.

Abantu batatu umwe n'umukobwa wambaye agatambaro k'ubururu bwijimye mu mutwe, akaba yambaye agapira karimo uturongo tw'umukara ndetse n'umweru hamwe n'amadarubindi. Kandi hari umuhungu wambaye ishati y'ubururu ufite umusatsi mwinshi ndetse n'undi begeranye wambaye umupira w'umuhondo w'icyatsi urimo n'icyatsi ariko kidakabije ufite n'akantu k'ubururu k'umupira.

Abaturage bicaye mu nama, imbere yabo hari umugabo ufite urupapuro rusa umweru ndetse akaba yegeranye n'ushinzwe umutekano wambaye imyenda y'icyatsi wambaye n'ingofero y'icyatsi.

Inyubako yicawemo n'abantu benshi batandukanye bafite ama mudasobwa ndetse imbere yabo hakaba hari abantu bane harimo umukobwa umwe harimo n'abagabo batatu imbere y'aba bantu, inyuma yaho ku gikuta hari ikirangantego cyanditseho ti makumyabiri mu nyuguti y'umweru.

Inyubako irimo abantu batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore inyubako ikaba irimo abagabo babiri bambaye amarinete umwe akaba yambaye ishati y'umweru iriho akantu k'umutuku hejuru ndetse n'uwundi nawe akaba yambaye ishati y'umweru ndetse bakaba bakikijwe n'abandi bantu bari ku ruhande rwabo ndetse mu buryo bubiri butandukanye ndetse n'ayo meza abiri akaba arebana.

Inyubako yicayemo abagore batandukanye, abagore harimo abagore bakenyeye, imikenye igiye itandukanye, harimo abagore bakenyeye imikenyero y'ubururu ndetse bambariyemo n'utundi dusengeri tugiye dutandukanye, ndetse bakaba bicaye no ku ntebe z'umukara.

Abantu cumi na batatu abagabo babiri bicaye imbere ya mudasobwa, ndetse hakaba harimo n'abantu batandukanye b'ingeri zitandukanye, bambaye imyenda ijya gusa umuhondo ndetse n'icyatsi bivanze.

Serivisi zitangwa na leta, ndetse hari abantu bicaye mu ntebe ahantu habera inama, ndetse izo ntebe bicayeho zikaba zifite ibara risa ubururu, ariko ubururu buvanze n'icyatsi cyijimye, ndetse aho hantu hicaye muri iyo nama hakaba harimo abantu b'ingeri zitandukanye, abagore ndetse n'abagabo.

Abagabo bicaye mu nama harimo abagabo batandukanye, harimo n'abagore biganjemo ndetse bambaye imyambaro itandukanye, harimo umugabo wicaye ku ntebe iri wenyine, utajyanye n'abandi bambaye ishati y'umweru, iriho akarongo k'umukara ku mufuka wayo.

Abagabo babiri bicaye begeranye, umwe wambaye amadarubindi kandi yambaye ishati y'ubururu irimo uturongo tw'umweru ndetse akabajyanye n'undi mugabo wambaye ishati irimo umweru ndetse n'icyatsi cyijimye ndetse imbere yabo hakaba n'umumama cyangwa se umukobwa wambaye umupira w'umukara ufite imisatsi yumukara ndetse ryaba aka ari icyapa gisa umweru cyandikishiho amagambo y'ubururu.

Inyubako yicawemo n'abagabo n'abagore ibere yayo hari amazi ndetse imbere y'umugabo ur imbere hari mudasobwa ndetse uwo mugabo kuri mudasobwa, yambaye ishati y'umweru, ariko iciyemo uturonko twishi tw'umukara.

Abagore babiri bicaye bambaye marineti umwe afite imisatsi miremire myinshi ndetse n'undi wambaye witandiye mu mutwe ndetse yifashe no ku itama umugore umwe yambaye ikoti ry'ubururu bwijimye n'agapira'im imbere gaze gusa umutuku.

Inyubako ndende nini irangaye, ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye bya Leta ndetse iyo nyubako ikaba yicawemo n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagore harimo n'abagabo, hakaba harimo umusangiza w'amagambo cyangwa se ufite ikimufasha gusakaza amajwi wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'ubururu.

Abantu benshi bicaye abandi bahagaze, abahagaze ni batatu ku gikuta cy'umuhondo gisize irangi ry'umuhondo ndetse hari n'undi uhagaze ubitaruye wegamye ku gikuta cy'amatafari arimo umukara ndetse arimo n'umutuku wijimye. Ndetse uwo wegamye kuri icyo gikuta yambaye ishati ijya gusa umutuku ariko wererutse wambaye ingofero isa umweru.

Inzu irimo ibikoresho bigiye bitandukanye bikoreshwa n'amashanyarazi, twavugamo nk'igikoresho gishinzwe gusakaza amashusho ndetse hakaba hicayewemo n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore ndetse n'abakobwa.

Inyubako yicamo n'abantu batandukanye harimo ab'uruhu rwera ndetse n'abirabura ndetse iyo nyubako ikaba irimo abagore ndetse n'abagabo ndetse hakaba n'umugabo uri imbere wambaye amarinete, wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru na karuvati y'umukara irimo uturongo tw'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara ariko ikaba ari umukara ujya gusa ubururu.

Abantu benshi batandukanye b'ingeri zitandukanye, bicaye mu ihema risa umweru ndetse imbere yaho hari umudamu wambaye amadarubindi, wambaye isengeri isa ubururu bwijimye, ufite isakazamajwi mu ntoki ze.

Inyubako yicawemo n'abagabo biganjemo abagore, abo bagabo harimo abambaye imyenda ijya gusa y'ubwoko b'umwe, harimo uwambaye ikoti ry'ubururu ishati yererutsemo ariko ifitemo n' ubururu, n'inkweto z'umukara n'ipantaro y'umukara, ndetse hari n'undi wambaye gutyo ariko ufitemo karuvate y'umutuku.

Inyubako yicawemo n'umugabo wambaye ikoti ry'umukara karuvati y'umukara ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, iyo nyubako ikaba irimo umugore ufite ifasha amajwi uri imbere.

Inyubako yicawemo n'abagabo biganjemo n'abagore, ndetse muri aba bagabo harimo abambaye amarinete babiri bicaye ku mwanya w'imbere, barangaje abandi ndetse hakaba ari n'abandi babari inyuma, harimo abagore bagiye batandukanye.

Inzu yicawemo n'abantu benshi b'ingeri zitandukanye harimo abagabo babiri bambaye amarinete, no muri abo bagabo yambaye ikoti ryererutse ndetse n'ishati y'umweru ndetse yambayemo na karuvati isa icyatsi kijimye.

Inyubako yicawemo n'abagabo, harimo abagabo bane bicaye imbere ndetse n'umugore umwe ubicaye hagati ndetse abo bicaye imbere, imbere yabo hari abantu bahicaye, harimo umugore wegeranye n'umugabo bicaye ku meza asa umweru ndetse n'intebe yicayeho zikaba zisa ubururu ariko bwererutse cyane.

Umugabo wambaye ishati y'umweru wambaye ipantaro yerurutse, umugabo wirabura wegereye hafi y'inyubako, inyubako ikaba iriho ibyapa bigenda bitandukanye hari n'ibyapa bisa umuhondo ibisa umutuku ndetse n'ibisa ubururu.

Itangazo ryanditswe mu rurimi rwamahanga ururimi rw'Icyongereza ndetse ryanditse ku ibara ry'umweru iryo bara ry'umweru ririmo ibara ry'ubururu bwijimye, ubururu bwijimye bwanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru aya magambo akaba ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Ishusho y'ubururu yandikishijwe amagambo y'umuhondo, amagambogambo y'umuhondo akaba ari mu rurimi rwamahanga rw'icyongereza ndetse umutwe w'ayo magambo akaba ari wo wandikishijwe ibara ry'umuhondo ndetse munsi yaho hakaba ariho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza yandikishije irangi risa umweru.

Ishusho igaragaza ibara ry'ubururu ryandikishijweho amagambo y'umweru ndetse n'ay'umuhondo, ayo magambo akaba ari mu rurimi rw'amahanga rw'icyongereza, ndetse hejuru y'ayo magambo hakaba ikirangantego cya IBM.

Inyubako ndende iriho icyapa, icyo cyapa cyanditseho ngo "irembo" ndetse icyo cyapa cyandikishijwe ibara ry'umweru ndetse iryo bara ry'umweru ryanditse ku ibara ry'ubururu ry'icyo cyapa ndetse iyo nyubako ikaba isize irangi ry'umweru.

Ibara ry'ubururu ririmo ibara ry'umweru ryandikishijwemo amagambo y'ubururu ariko bweherurutse cyane hakaba harimo agaragara cyane n'andi atagaragara cyane ayo magambo akaba ari mu rurimi rw'amahanga rw'icyongereza hakaba harimo n'ikindi kirango gisa ibara ry'umuhondo ariko kirimo akabazo gasa mu ibara ry'ubururu.

Isoko rinini. Hakaba harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye bibitswe mu tubati. Bimwe muri ibyo bicuruzwa harimo imiti y'ibirahure y'ubwoko butandukanye; ndetse hakabamo n'amasabune y'amazi. Iri duka rikaba rifite amatara yaka umweru.

Ishusho igaragaza umuntu bari kumutera urushinge ndetse hakaba hari n'amagambo yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo ariko yanditswe ahasa n'ibara ry'ubururu.

Ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro cy'u Rwanda Rwanda revenI otoriti ndetse ikirangantego cyacyo kiriho amagambo yanditswew ibara ry'umuhondo ayo magambo akaba ari ra ebyiri n'inyuguti ya a ndetse bivuze Rwanda otoriti mu magambo arambuye.

Ihema ryicawemo n'abatanga serivisi za leta, umusore wambaye umupira w'umweru ndetse hariho ikirangantego kiri mu ibara ry'ubururu, uwo musore kandi akaba umusore wirabura, hirya ye hari abantu bahagaze bari kureba ibiri kubera muri iryo hema, ndetse hari na za mudasobwa ziteretse ku meza.

Umunara muremure uteganye n'inzu, iyo nzu ikaba ifite amatafari y'umutuku ndetse ikaba ifitemo n'ikigega, ndetse iyo nzu ikaba iri mu gipangu. Icyo gipangu gifite ibara ry'umutuku ubwo ariryo ry'amatafari, ndetse hari n'ibigori biteye hafi y'uwo munara n'ibiti bihakikije.

Ishusho igaragaza abanyamagare bari mu masiganwa ndetse iyo shusho ifite amabara y'ubururu, ayo mabara handikishijwemo amagambo y'umweru, ayo magambo ari mu rurimi rw'amahanga ndetse hejuru yaho handitse mu rurimi rw'amahanga viziti Rwanda mu ibara ry'umukara riri mu ishusho y'umweru.

Ishusho y'ubururu igaragaza ikirere cy'ubururu kirimo uducu dukeya dusa mu ibara ry'umweru dukeya tukaba turi kugaragara ariko munsi yaho hari umunara muremure umunara muremure urimo amarangi atandukanye harimo umutuku ndetse n'umweru.

Umunara muremure usa umutuku, uzitijwe n'uruzitiro rw'ibyuma, ndetse rufatanye n'uruzitiro rusa umuhondo, urwo ruzitiro rukaba ari uruzitiro rw'amabuye, ndetse hakaba ari n'umuntu ku ruhande rwawo utagaragara neza, wambaye agapira k'umweru.

Umugabo wambaye amadarubindi, wambaye umupira wanditseho amagambo y'umweru, yanditseho ngo Irembo ndetse uwo mugabo yambaye amadarubindi, akaba ari kureba kuri mudasobwa, iyi mudasobwa ikaba yanditswemo amagambo ari mu ibara ry'icyatsi, Irembo ndetse n'andi magambo menshi agiye atandukanye.

Y'umweru ryanditswemo ijambo ry'ubururu hejuru ndetse n'andi magambo ari munsi yaryo. Ndetse hari isakazamashusho riri munsi y'ayo magambo iryo sakazamashusho harimo ibara ry'umweru hagati ryandikishijwemo n'amagambo y'ubururu n'umukara.

Ishusho igaragaza serivisi zitangwa na leta z'irembo ndetse kandi hakaba hari na mudasobwa imbere. Izo serivisi zanditseho uti "kanda ko uri kwiyandikisha gukora ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga".

Ifoto ifite ubururu bwiganje, buvanzemo n'umweru, irimo amagambo y'umweru werurutse cyane, n'andi atererutse cyane, harimo ijambo ryandikishijwe ibara ry'umuhondo, rivuga kwibutsa. Ririho n'agatangaro.

Inyubako isize irangi ry'umuhondo ndetse hakaba hasizeho n'irangi ry'umweru hejuru; ndetse hafi y'iyo nyubako hari abagabo bicaye, ku meza bafite za mudasobwa imbere yabo; ndetse muri abo bagabo, hari abagabo babiri bagaragarira imbere y'abandi bafite, bambaye imipira y'umukara yanditseho amagambo ari mu ibara ryu...

Abakinnyi b'umupira w'amaguru bambaye imyenda igaragaza ikipe bakinira bakaba bambaye imipira y'umweru irimo n'umutuku ndetse no munsi yabo hakaba hari n'abandi bakinnyi bakina umukino wo guhererekanya umupira bakoresheje amaboko bakaba bambaye imyenda ibaranga nk'ikipe yabo isa umweru.

Akazu gatoya gasize irangi ry'ubururu. Irangi ry'uburu rikaba ryandikishijwe n'amagambo y'umweru .Amagambo y'umweru ari mu rurimi rw'amahanga. Ndetse hakaba hari n'abagabo babiri bicaye hafi aho ngaho, harimo umugabo wambaye umwenda w'akazi , ushinzwe umutekano.

Ikirere cyiganjemo ubururu hari umunara muremure urimo amabara y'uruvangitirane, ayo mabara akaba ari umutuku n'umweru ndetse uwo munara ukaba ari umunara ushinzwe gusakaza itumanaho.

Inzu isizwe irangi ry'umweru ndetse ifite n'igisenge gisa umweru, iyo nzu ikaba iteganye n'umunara muremure, ndetse kuri iyo nzu hejuru hakaba ari ibyuma bizamuyeho ndetse hejuru akabariho n'igisenge kitagaragara neza ariko gisa nk'igifite ibara ry'umukara.

Inyubako ndende z'amagorofa, ziteganye ndetse hakaba hari inyubako imwe iri ku ruhande rwayo ifite ibara ry'ubururu ndetse ifite n'irindi bara ry'umweru bivanze ndetse ikaba ifite n'icyuma hejuru gisongosoye.

Inyubako ifite igisenge cy'umutuku ndetse ikaba ifite inkuta zisize irangi ry'umweru, ndetse muri iryo rangi ry'umweru hariho irangi ry'ubururu ryanditsweho n'amagambo ari mu rurimi rw'amahanga, urwo rurimi akaba ari ururimi rw'icyongereza.

Urupapuro rugaragaza inshange ya banki yitwa access igaragaza aho umuntu anyura agiye kwinjira muri sisiteme yabo harimo aho ashyira umubare wibanga ndetse n'ijambo akoresha yinjira yarangiza agakandaho akinjira

Ibara ry'ubururu ryandikishijweho amagambo y'umweru, harimo amagambo y'umweru ariko yijimyemo ndetse hakaba hari n'amagambo y'umweru agaragara cyane, yanditse mu rurimi rw'amahanga ndetse munsi y'ayo magambo yanditse ururimi rwa'amahanga, hari n'andi magambo yandikishijwe mu ibara ry'ubururu ariko bwijimye cyane.

Inyubako ifite igisenge cy'umweru ariko uvanze n'umukara wijimye, ariko umukara wijimye usa nanone nk'icyatsi cyijimye. Ndetse hafi y'icyo gisenge, hari igikuta kigaragara kiriho akapa kari mu ibara ry'umweru, gashushanyijeho imirongo igiye itambitse y'ubururu bwijimye.

Abantu batatu bahagaze abandi babiri bicaye ndetse batatu bakaba bari hagati yabo babiri ndetse bakaba begamye ku gikuta gisa ibara ry'umweru kikaba gisize ibara ry'umweru ariko ryandikishijweho amagambo y'umutuku ariko amagamba akaba atagaragara ndetse bakaba bari hafi y'umuhanda nyabagendwa w'abanyamaguru.

Ipoto ry'amashanyarazi, ririho insinga zitandukanye ndetse hafi y'iryo poto hari inyubako zigiye zitandukanye, hari inyubako isize irangi risa n'ibara ry'umukara ariko umukara wijimye, ariko uba unerutsemo ndetse yegeranye n'inyubako zigiye zitandukanye ndetse n'ibisenge bigiye bitandukanye.

Uruzitiro rw'inzu urwo ruzitiro rukaba rufite amatafari asa nk'ibara ry'umutuku ariko ku umutuku uvanze n'umweru ndetse harimo n'ibara rya kayatsi ariko kake yijimye cyane ndetse hafi y'urwo ruzitiro hakaba ari amapoto maremare atwara amashanyarazi.

Umugore wambaye agapfukamunwa k'ubururu kandidikishijweho amagambo y'umweru, yambaye ingofero irinda umutwe isa mu ibara ry'umweru, ndetse akaba yambaye n'isengeri y'akazi iri mu ibara ry'icyatsi gisa n'umuhondo ndetse hagati harimo n'umukara.

Inyubako igeretse ifite uturindabasazi tugiye dutambitseho tw'utwuma turi mu ibara ry'umweru, ariko umweru uvanzamo n'icyatsi cyijimye. Ndetse hafi aho, hari amavaze ahateretse, ndetse amavaze arimo ibiti, ibyo biti bisa icyatsi kibisi.

Serivisi za leta hari abagabo buriye hejuru ku ipoto barimo barakora amashanyarazi, abagabo ni abagabo babiri, umwe yambaye isengeri ifasha akazi isa mu ibara rijya gusa umutuku ariko werutsemo ndetse anambaye ikirinda umutwe.

Inyubako eshatu zegeranye ziri hafi y'umunara, ndetse umunara ufite uruzitiro rw'ibyuma, ibyo byuma bikaba bifite ibara ry'umukara ariko werutsemo cyane. Ndetse umunara ukaba ufite irange risizeho ry'umweru ndetse uvanze n'umutuku ariko bijyiye bisimburana mu buryo bugiye butandukanye.

Umuhanda nyabagendwa urimo amapikipiki ndetse n'abayatwara, ndetse hirya yaho hari ibinyabiziga by'amapine ane ndetse n'ikindi kinyabiziga kikorera gisa nk'ibara ry'umutuku kandi gifite amapine ane ndetse n'andi abiri inyuma, hafi y'ibyo binyabiziga hari iminara ibiri miremire.

Uruzitiro rurerure rwegereye hafi y'ipoto y'amashanyarazi ndetse iyopoto y'amashanyarazi ikaba iriho insinga zigiye zinyuranye ziri mu byerekezo bitandukanye ndetse urwo ruzitiro rukaba ruriho amatara asa n'ibara ry'umweru.

Umunara muremure ariho insinga zitwara amashanyarazi; izo nsinga zikaba ari insinga zigiye zitandukanye, ziri mu byerekezo bigiye bitandukanye; ndetse hafi y'uwo munara hari ishyamba, iryo shyamba rikaba ririmo ibiti bigiye bitandukanye.

Inzu isize irangi ry'umutuku, hafi yaho hari ipoto rishinzwe gusakaza amashanyarazi, ndetse hirya y'iryo poto hari igiti kihateye, icyo giti kihateye kikaba gifatanye n'imiyenzi ndetse hakaba hari n'indabyo zisa n'umuhondo.

Insinga z'amashanyarazi ziziritse ku ipoto, iryo poto rikaba rifasha izo nsinga kuba zasakaza amashanyarazi ndetse hafi y'izo poto hari insina zihateye ndetse hafi y'izo nsinga hari, hariho uruzitiro urwo ruzitiro rukaba ari uruzitiro rutandukanya ayo mapoto ndetse n'ahantu hagengwa.

Abasore bambaye imyenda y'akazi ndetse iyo myenda y'akazi bakaba banambaye ingofero ku mitwe yabo ibarinda ikintu cyaba cyabatera impanuka ndetse izo ngofero zikaba ziri mu ibara ry'umuhondo, ndetse bakaba banambaye imyenda y'akazi isa mu ibara ry'ubururu ariko harimo umwe wambaye hijya gusa mu ibara ry'ubururu bwijimye cyane.

Umuhanda urimo ipoto y'amashanyarazi ndetse hejuru y'iryo poto hariho insinga zigenda zitwaye umuriro kugirango ubashe kuboneka hirya no hino ndetse hirya y'uwo muhanda hari inyubako ndende.

Umunara muremure uri hafi y'ikibanza kirimo inyubako zigiye zitandukanye, hakaba haririmo inzu ifite igisenge gisa umutuku ndetse hafi y'iyo nzuifite igisenge gisa umutuku hari izindi nyubako ariko ntoya, izo nyubako ziri hafi y'ibiti biteye ndetse biri no hafi y'insina ndetse uwo munara ukaba ufite irangi risa umweru.

Umugabo wambaye ipantaro ya kacye, umupira w'umuhondo, iburyo bwe hari imodoka isa umweru, iyo modoka inyuma yayo ikaba hari icyuma cy'umutuku kirekire, icyo cyuma kikaba giteretseho ikigega ndetse n'imbere y'iwe ahateganye na we hari inzu ikorotiriye, ariko ifite igisenge cy'amabati ndetse n'ibyuma by'umutuku.

Inyubako irimo igisenge gisa kake icyo gisenge gisa kake ariko kirimo n'umutuku hariho n'itara ry'umweru ndetse ikaba ifite inkuta zisa ibara ry'umweru, ari ryo rangi ryayo ndetse hatewemo n'intebe, izo ntebe ziteganye ndetse n'izindi zireba mu buryo bw'ibumoso.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye ndetse hakaba harimo ibinyabiziga byiganjemo ibinyabiziga by'amapine ane ndetse hakaba hari n'umugabo uhagaze hafi y'ikinyabiziga cy'amapine ane gifite irangi risizeho ry'umutuku, umugabo akaba yambaye imyenda isa umukara hose.

Uruzitiro rurimo ikinyabiziga cy'amapine ane ndetse n'ibindi binyabiziga biri ruguru yacyo icyo kinyabiziga cy'amapine ane gisize irangi ry'umweru rifite amapine y'umukara ndetse n'amatara asa n'umutuku ndetse ibyo binyabiziga biri ruguru yacyo hari icyapa kibyegereye ,icyo cyapa kikaba gisize irangi ry'umweru.

Kaburimbo irimo imodoka ifite ibara ry'ivu, hirya yayo hubatse inzu iri mu marange y'umweru ndetse n'umukara, inzu ikikijwe n'igikuta cyubakishijwe amatafari ahiye, hariho icyapa kiri mu mabara y'icyatsi, ndetse n'ikindi cyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara.

Inyubako ifite igisenge cy'umweru iciwemo n'uturongo tw'umukara ndetse ifite n'itara ry'umweru, iyo nyubako ikaba yicawemo n'abantu bagiye batandukanye harimo abasaza, abagore ndetse n'abasore, bamwe muri abo bambaye ikoti rijya gusa ubururu bwijimye.

Inyubako isize irangi ry'umweru ifite igisenge gisa irange ry'umutuku ndetse icyo gisenge kikaba gifite n'akarongo k'umweru gatambitsemo, ako karongo ku mweru kakaba ari akarongo kari hejuru y'iyo nzu ndetse hakaba hari n'abantu bambaye imyenda y'akazi y'amataburiya ndetse asa mu ibara ry'umweru, abantu bakaba ari abantu bo mu ngeri zitandukanye bose bari kugenda.

Ibikorwa bya leta umuntu wambaye umupira w'ubururu wandikijweho amagambo ari mu rurimi rw'amahanga rw'icyongereza, ayo magambo yanditseho akaba yandikishijwe ibara ry'umweru, uwo muntu yicaye imbere ya mudasobwa.

Inyubako ndende mu buryo bw'ubutambike igiye ifite ibisenge bifite ibara ry'icyatsi ariko ryarurutse, ikaba ihagazemo n'umuntu wambaye ishati y'umweru n'ipantaro ubururu bwijimye, ndetse iyo nyubako hafi habakaba hari indabyo ndetse n'ibyatsi bigiye bihateye ndetse n'ibiti.

Inyubako y'amabati y'ubururu, ikaba ifite indi nyubako iri munsi yayo byegeranye, ikaba ifitemo akarongo k'umweru gaciyemo hagati ndetse hafi y'iyo nyubako hakaba hari icyapa cyanditseho Kabgayi, bikaba ari ibitaro bya Kabgayi.

Abagabo batanu bicaye batatu muri bo bafite amakaye afite impapuro z'umweru, umwe muri bo ufite ikaye ifite igifuniko gisa mu ibara ry'umutuku, abo bagabo bambaye amadapo ku rutugu ndetse bagaragiwe n'abaturage ku ruhande.

Uruzitiro rurerure, kandi rukaba ari rurerure mu buryo bw'ubutambike n'ubuhagarike, ndetse urwo ruzitiro aho binjirira hejuru hari icyapa cyandikishijweho amagambo y'umukara, kandi kiba cyanditse ku gikuta gisize irangi ry'umuhondo, ariko umuhondo utukuramo.

Ishusho y'umweru iriho ikirangantego kiriho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda. Ndetse iryo darapo rikaba ririmo ibara ry'ubururu hejuru, umuhondo hagati ndetse n'icyatsi hasi munsi y'iryo dalapo hari amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara ariko yanditse ahantu hasa icyatsi.

Inyubako yicawemo n'abagabo batatu, bari ku murongo umwe, ndetse hari n'abandi babahagaze inyuma, n'abandi batatu bicaye inyuma ya bo. Ba bagabo bicaye ku ntebe y'imbere hari uwambaye ikote rijya gusa ubururu bwerurutse, karuvate ijya gusa umutuku, ndetse n'inkweto za.

Icyapa cy'umweru kiriho amagambo y'ubururu bwijimye kiriho n'ikirangantego kigaragaza repubulika y'u Rwanda ndetse hariho n'uruzitiro ruriho amatafari ari mu ibara ry'umweru ndetse harimo n'umukara hagati ndetse hakaba n'amabuye ari munsi yayo matafari ndetse akaba ariyo azitiye urwo ruzitiro rwose n'imbere harimo igiti giteyemo.

Abagororwa bambaye udupfukamunwa ndetse abo bagororwa bose bakaba birabura bakaba nta n'umusatsi bafite bakaba bambaye imyenda y'iroza ari yo myenda y'abagororwa ndetse ku murongo hariho abashinzwe kubarinda bambaye ingofero za kaki ndetse n'imyenda ya kaki.

Imfungwa yambaye imyenda y'iroza iherekejwe n'abashinzwe umutekano wazo bari kumwe ari babiri kandi umwe muri abo bashinzwe uwo mutekano ari ku modoka.

Abagabo babiri bari gusuhuzanya, umwe yambaye ishati y'iroza, undi yambaye ishati y'umweru bose ni ibikara hirya yaho hari inzu isize irangi ry'umweru, hasi hateyemo ibyatsi harimo ndetse n'igiti.

Ishusho igaragaza abagororwa bambaye imyenda y'iroza ndetse hakaba harimo n'abagore ndetse n'abagabo, bicaye ahantu hari ibiti, ibiti bigiye bitandukanye harimo abantu biganjemo abagore ndetse n'abagabo.

Ishusho igaragaza ibara ry'umweru ryandikishijweho n'amagambo y'umukara. Ayo magambo y'umukara akaba agiye ari mu buryo butandukanye, akaba harimo n'amagambo ariko afite imibare iyabanziriza imbere yayo ndetse hakabagiye harimo n'ibikaba bigiye bitandukanye.

Umugabo wambaye amadarubindi ndetse wamabye ikoti ry'ubururu, ishati y'umweru, karavati y'ubururu irimo uturongo tw'umweru. Ibumoso bwe hari umugore uhicaye ndetse n'umugabo uhicaye, umugore wambaye ishati y'umukara n'umugabo wambaye ishati y'ubururu.

Ishusho igaragaza ikirangantego k'Igihugu cya Repubulika y'u Rwanda, ndetse cyandikishijweho amagambo y'ubururu ariko amagambo y'ubururu akaba afite n'andi ari munsi yayo y'ubururu ariko bwijimye, ndetse hakaba hari n'andi magambo yandikishijwe mu ibara ry'umukara ari munsi yicyo kirangantego.

Ishusho igaragaza umugore wambaye amadarubindi, umugore wirabura ndetse wambaye n'umwenda muremure. Umwenda muremure urimo amabara agiye atandukanye, arimo ubururu, harimo umweru ariko ujya gusa n'umuhondo; ndetse hakaba hirya hari n'undi mugore ufite imisatsi myinshi, wambaye umwenda ujya gusamo umutuku, ariko umutuku werarurutsemo cyane.

Ifoto ya'bantu batatu umwe wambaye ishati y'iroza yicaye hagati y'abagabo babiri, umugabo umwe uri iburyo bwe yambaye ikoti ry'umukara ndetse yambariyemo n'ishati y'umweru ndetse n'uri ibumoso bwe yambaye ikoti y'umukara n'ishati y'umweru.

Abagabo babiri umwe wambaye impuzankano ya gipolisi, wambaye impuzankano is’ubururu bwijimye ufite n'intwaro mu ntoki ziwe, ndetse ku kuboko kwe kw'ibumoso hariho ikirangantego cy'idarapo ry'igihugu cy'U Rwanda, ndetse akaba aherekeje umugabo wambaye ishati y'umukara ndetse n'ipantaro ijya gusa umweru ,ariko umweru uvanzemo n'umukara werurutse, umugabo akaba yambaye amadarubindi.

Umugore w'inzobe ufite imisatsi y'umukara wambaye ishati y'umweru ndetse n'ikoti ry'umutuku, inyuma yiwe hari igikuta gisize irangi ry'umweru uwo mugore mumaso ye harererutse harimo umweru wiganje.

Ishusho igaragaza inyubako iberamo inama. Inyubako ikaba ari inyubako ndende kandi yicawemo n'abantu b'ingeri zigiye zitandukanye. Ndetse muri abo harimo abagabo, harimo abagabo bambaye imyenda igiye itandukanye, harimo abambaye amakote ajya gusa ubururu arko ubururu bwerurutsemo cyane, bambariyemo n'amashati y'umweru.

Ishusho igaragaza umugore wambaye igitambaro cy'umukara ku mutwe, wazamuye urutoki, ndetse uwo mugore akaba inyuma ye hicaye abandi bantu n'abandi bantu bahagaze, muri abo bahagaze hakaba harimo umusore umwe wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru, ndetse wambaye n'ingofero isa ibara ry'umweru.

Umuhanda muremure wa kaburimbo unyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye ndetse wegereye hafi y'umuhanda w'abanyamaguru ndetse uwo muhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga by'amapine ane harimo n'ikinyabiziga cya polisi.

umugabo wambaye imyenda y'umukara n'ingofero y'umukara kuri iyo myenda haciyemo uturongo tw'umuhondo ndetse afite umwenda utukura mubiganza bye hirya ye hari abantu bahagaze ndetse hari n'ibiti biri kuruhande rwabo

Umuhanda muremure wa kaburimbo, urimo imodoka y'umukara ya polisi, ifite umukara hejuru, hagati harimo umweru wandikishijwe n'amagambo y'umukara yanditse polisi ndetse no hasi yaho hagasa umukara, ndetse uwo muhanda urimo amapikipiki ari kugenda.

Inyubako ya polisi ndetse imbere ku marembo y'iyo nyubako, hari abapolisi babiri bahagaze, ndetse hejuru y'igikuta kiri kuri ayo marembo, handitseho amagambo y'ubururu yanditse ku gikuta gisize irangi ry'umweru, ndetse hakaba hariho n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara ariko ari mu rurimi rw'amahanga.

Icyapa cy'umweru cyanditswemo n'amagambo y'umukara, gifite ikirango cya polisi y'igihugu cy'u Rwanda, muri icyo kirango harimo n'inuma inuma isa umweru. Ndetse munsi yaho hari ibiti bite bitambitsemo, ndetse hari n'ibiti biteye ku ruhande, rw'ibyo byapa.

icyapa gitoya cy'umuhondo gikoze mu ishusho y'urukiramende kikaba kiriho uburyo bwifashishwa mukwishyura ibiribwa cyangwa se ibicuruzwa hakoreshejwe ikoranabuhanga rikoresha telefone

Ikinyabiziga kinini cya leta, ndetse icyo kinyabiziga akaba ari igishinzwe mu gutanga serivisi za leta, mu gihe umuriro watse mu nyubako, kikaba ari ikinyabiziga gitwara bakizimyamwoto, ndetse iryo jambo mwoto rikaba risobanura umuriro.

Ishusho igaragaza serivisi za leta, akaba ari abantu babiri bicaye, abo babiri harimo umugabo wambaye amadarubindi ndetse n'umugore wambaye ishati y'icyatsi ndetse mwo hagati yambariyemo n'akandi gashati kari mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara, ndetse n'wo mugabo akaba yambaye ipantaro isa umukara ariko umukara wererutsemo.

Ibikorwa bya leta ndetse ibyo bikorwa bya leta biri gukorwa n'abantu batatu bicaye, abo abantu batatu bicaye harimo umugore umwe n'abagabo babiri, harimo umugabo umwe wambaye amadarubindi ndetse yambaye n'umupira w'umweru uriho ikirangantego cy'icyatsi cyandikishijwe n'amagambo y'icyatsi.

Umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo urimo abanyamapikipiki bafite n'abagenzi, harimo umwe wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro isa umukara ariko werurutse ndetse hari n'icyapa kigaragaza amatora y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame.

Abantu bane, batatu bicaye, umwe uhagaze ufite imfashamajwi ndetse wambaye ishati yicyatsi. Akaba iburyo bw'iwe hari umudamu wambaye amadarubindi ufite umusatsi mwinshi. Ndetse ibumoso bwe hakaba hari abagabo babiri bambaye amadarubindi, bambaye n'imipira y'icyatsi.

Serivisi zitangwa na leta, umukobwa wambaye ingofero y'umweru ndetse akaba yambaye umupira w'umweru yawuhinnye ndetse umukobwa akaba ari umukobwa wirabura ufite imisatsi miremire y'umukara ndetse imbere y'iwe hari umukobwa witadiye mu mutwe.

Abantu benshi bicaye abandi bahagaze hafi hari inzu ndende ibakikije ndetse hari n'inzu isize ibara ry'ubururu bwerurutse ndetse hakaba n'indi nzu isize mu ibara ry'umuhondo, hakabamo abagabo bahagaze umwe wambaye umupira w'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara.

Inzu ikorerwamo amatora ndetse iyo nzu ikaba irimo abantu baje gutora. Abo bantu hakaba hari abantu babiri bari kugaragara, umwe ni umukobwa wambaye umupira w'umweru, ipantaro y'umukara, undi ni umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara ariko werurutse.

Umugore wicaye imbere y'ifatamajwi zigiye zitandukanye hafi hari idarapo risa umweru ririmo umuhondo, umukara ndetse n'ubururu, ndetsetse hasi yaho hakaba hasa n'icyatsi. Umugore akaba yicaye ku ntebe isa ibara ry'umukara.

Ishusho igaragaza abayobozi bari kurahira bafashe ku madarapo aba bayobozi higanjemo abagore n'abagabo umwe muri abo bagabo yambaye ikote ry'umukara ishati y'umweru na karavate y'umukara yazamuye ukuboko ndetse akaba agaragiwe n'abandi bagabo babiri bazamuye ikiganza.

Ishusho igaragaza abayobozi bari kurahira bafashe ku idarapo. Ndetse iryo darapo rikaba ari idarapo risa mu ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi. Kandi iyo nyubako barimo barahiriramo, ikaba ari inyubako irimo n'ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda. Ndetse hakaba harimo n'abagabo bicayemo, umugabo umwe wambaye amadarubindi, wambaye n'ikoti ry'ubururu bwijimye.

Ishusho ya kera, irimo inzu ya kera, ndetse n'abantu bahagaze hanze, hari umugore wambaye ikanzu y'ubururu bwererutsemo, harimo n'umweru hagati, ndetse akaba ahagaze ku ndangururamajwi ye.

Umugabo wambaye ikote ry'ubururu ndetse n'ipantaro y'ubururu ariko byererutsemo, akayambariyemo umupira w'umweru uriho akarongo k'umukara, ako karongo ibumoso bwako hariho ifoto inyuma ye, hari abantu bahicaye harimo abakobwa ndetse n'abasore.

Umugabo w'imvi wicaye imbere y'indangururamajwi wambaye ikote rijya gusa umukara wererutsemo ndetse ufite n'agacupa k'amazi kamuri imbere yicaye ku ntebe y'umukara.

Ishusho igaragaza umugabo uhagaze, inyuma yiwe hari abantu bane umwe ni umudamu yambaye ikoti ry'umutuku n'amarinete y'umukara ndetse n'undi mugabo umwegereye yambaye ishati y'umweru.

Ishusho igaragaza abantu b'ingeri zitandukanye abagore, abakecuru ndetse n'abasore bafite impapuro zigaragaza uwo bashaka gutora ndetse izo mpapuro zikaba ari impapuro zisa umweru ziriho n'ifoto y'umuntu wambaye ikote ry'ubururu ndetse n'ishati y'umweru na karavate y'umukara.

Abantu benshi bahagaze hafi y'amadarapo y'ibihugu bigiye bitandukanye, ndetse bakaba banegereye hafi y'inyubako ndetse iyo nyubako ikaba isize irange ry'umweru, ikaba ifite uturindabasazi tw'utwuma dusize irange ry'umweru, ndetse ikaba ifite n'igisenge na cyo gisize irange ry'umweru.

Abagabo batatu umwe wambaye umupira w'umutuku mo imbere harimo ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'ubururu, wambaye n'amarinete, hagati harimo umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ikoti rijya gusa ubururu ndetse n'undi mugabo wa gatatu wambaye ishati y'umutuku irimo utubara tw'umukara.

Abantu benshi bahagaze, imbere yabo hari imodoka, iyo modoka iriho ifoto y'umuntu wambaye ikoti ry'umukara, karuvati y'umukara ndetse n'ishati y'umweru, ndetse imbere y'abo abantu hari umugabo wazamuye ikiganza, uri guseka wambaye ishati iriho ibara ry'umweru, ubururu, umukara ndetse n'icyatsi.

Inyubako yicawemo n'inama ndetse ikaba ariama ya leta irimo umukuru w'igihugu ndetse na madamu wiwe, umukuru w'igihugu akaba yifashe ku itama ndetse yambaye n'amadarubindi, akaba yambaye ikoti ry'ubururu bwijimye ndetse yambaye n'ishati y'ubururu mo imbere, ndetse umukuru w'igihugu akaba inyuma yiwe hari umugore wambaye ikanzu isa mu ibara ry'umuhondo.

Umugabo ukora muri serivisi zitangwa na leta wambaye ikote rijya gusa ubururu bwijimye ndetse wambaye ishati y'umweru umugabo akaba ari umugabo wirabura, inyuma ye hakaba hari idarapo iryo darapo ririho ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda.

Imodoka itwara abantu ifite ibara ry'ubururu ikagira ibara ry'umweru hagati ndetse n'ubururu bundi hasi, ikaba ikikijwe n'uruzitiro rufite ibara ry'icyatsi ndetse no ku ruhande rwarwo hari ibiti biteye.

Umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo ariko wegereye n'umuhanda nyabagendwa w'abanyamaguru ndetse uwo muhanda ukaba urimo ibinyabiziga by'amapine ane bitandukanye, harimo amapikipiki ndetse harimo n'ibyo binyabiziga by'amaguru ane, harimo igitwara abagenzi gisa mu ibara ry'ubururu.

Ibinyabiziga bitwara abagenzi by'amapine ane byegeranye ibyo binyabiziga kimwe gifite ibara ry'ubururu bwijimye ikindi kiri iburyo bwacyo gifite ibara ry'ubururu burimo umweru ndetse harimo n'utwuma tw'umuhondo turimo imbere dutambitse.

Ikinyabiziga gitwara abagenzi mu muhanda wa kaburimbo ku nkengero zacyo hariho uruzitiro rusa icyatsi, inyuma y'urwo ruzitiro harimo ibiti biteyemo kandi n'inyuma y'ibyo biti hari inzu ifite amabara atukura.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo imodoka y'umweru ya rukururana, iri hafi yo mu kengero y'umuhanda, hafi ya rigori, ku ruhande rw'ibumoso hari uruzitiro rufite ibara ry'icyatsi.

Abanyamapikipiki bahagaze ku murongo ari benshi bambaye amajire y'umuhondo ndetse n'ubururu hasi, hejuru bambaye ikirinda umutwe gisa umuhondo, hirya yaho hari umutaka w'umuhondo w'itumanaho rya emutiyrne, ndetse n'undi' mutaka w'umutuku wa eyateri.

Inyubako ndende igereretse kenshi, isize irangi ry'umweru ndetse ifite n'amadirishya asa mu ibara ry'icyatsi ariko kijimye ndetse mu muhanda wa kaburimbo uri hafi y'iyo nyubako ukaba urimo ikinyabiziga cy'amapine ane, iki kinyabiziga kar'ikinyabiziga gitwara abagenzi.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye harimo amapikipiki abiri agaragara cyane ndetse n'ikinyabiziga kiri imbere y'ayo mapikipiki cy'amapine ane ndetse ku ruhande rw'ibumoso hateye ibiti birebire ndetse hariho n'igikuta gisize irangi ry'umutuku kiriho ikirangantego cy'umweru ndetse cyandikishijwamo n'amagambo y'umukara.

Ikinyabiziga cy'amapine ane gisize irangi ry'umweru cyegeranye n'ikindi kinyabiziga cy'amapine ane cyikoreye ibintu, ndetse iburyo bwayo hari inyubako igeretse gatatu, iyo nyubako ikaba irimo abantu bagiye batandukanye ndetse n'abantu bari hasi mu muhanda w'abanyamaguru.

Ikinyabiziga cy'amapine ane, gifite ibara ry'umweru ndetse kikagira amapine asa n'umukara, ndetse kikaba kitikoreye. Ndetse icyo kinyabiziga cy'amapine ane, kikaba gikikijwe n'ibiti, ndetse hirya y'umuhanda hari ibiti biriho n'uruzitiro. Urwo ruzitiro rukaba ruri mu ibabara ry'icyatsi.

Umuhanda nyabagendwa uparitswemo n'ibinyabiziga by'amapine ane ndetse bikaba byegeranye n'ikinyabiziga gitwara abagenzi, icyo kinyabiziga kikaba kiri mu ibara ry'umweru, hakaba ari n'abagabo babiri, umwe uri kugenda yambaye ingofero isa n'ibara ry'umutuku ndetse yambaye n'ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru.

Umuhanda nyabagendwa ukikijwe n'ibiti urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo ikinyabiziga cyikorera gifite ibara ry'umweru imbere, ndetse imbere y’aho hakaba hari umunyamapikipiki utwaye ipikipiki uteganye n’ikinyabiziga cy'amapine ane, gifite ibara ry'umutuku ndetse rivanze n'umukara.

Umuhanda nyabagendwa urimo abanyamaguru ndetse n'abanyamagare bikoreye, amakaziye ndetse ayo makaza ari mu ibara ry'umutuku, ndetse n'umuhanda harimo umukobwa uri gutambuka wambaye ishati y'umutuku wambaye ipantaro y'umukara hirya yiwe hari amapikipiki.

Imodoka yikoreye ububiko busa mu ishusho ry'ubururu ndetse bwandikishijwe n'amagambo y'umweru hariho n'umutuku, ndetse ku mutwe w'iyo modoka imbere yawo hariho ibara ry'umweru ndetse ikaba yegeranye n'imodoka ifite ibara ry'umweru, ikaba ifite n'irindi bara ry'umukara hasi yawo.

Abanyamapikipiki bahagaze hanze y'inyubako, iyo nyubako ikaba isize irangi ry'umuhondo, ariko uvanzamo n'umutuku ariko werarutsemo, ndetse ikaba ifite imiryango isize ibara ry'umukara ariko umukara werutsemo cyane.

Umuhanda muremure wa kaburimbo urimo ikinyabiziga cy'amapine ane ndetse icyo kinyabiziga kikaba ari ikinyabiziga kikorera ndetse kikaba gifite n'ibara rijya gusa umuhondo uvanzemo n'umutuku, ariko hirya yaho iburyo hari ipikipiki ndetse n'umunyamapikipiki wambaye ingofero yo kwirinda.

Ikinyabiziga cyikorera cy'amapine ane gisize irangi ry'umweru mu buryo bw'utambicye ndetse n'uburyo bw'impagarike ndetse kikaba gifite n'ibyuma by'ubururu biri hejuru, ibyuma by'ubururu bikaba biri ibyuma birinda inka kugira zidasimbuka icyo kinyabiziga.

Ibinyabiziga bibiri biteganye kimwe kirekire gifite ibara ry'umutuku cyikorera ibintu bigiye bitandukanye. Ndetse icyo kinyabiziga kikaba gifite amapine ane inyuma ndetse n'andi abiri hagati. Icyo kinyabiziga kikaba giteganye n'ibiti biteye hafi y'umuhanda ndetse n'uruzitiro rw'icyatsi.

umuhanda wa kaburimbo urimo amapikipiki afite abayatwaye bambaye ingofero z'ubwirinzi, ndetse uwo muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti, ndetse hakaba n'amapoto ashinzwe gucana amatara mu gihe cya nijoro.

Ikinyabiziga cy'amapinane kiri kugenda mu cyerekezo kimwe ndetse hafi y'icyo kinyabiziga hari inyubako zihari ariko izo nyubako zitagaragara neza hose, gusa hari inyubako zisize irangi ry'icyatsi umweru ndetse n'andi mabarage atandukanye ndetse icyo kinyabiziga kikaba kiri mu muhanda nyabagendwa.

Imodoka eshatu z'umweru zihagaze, hafi yazo hari umugabo uri gutambuka ugenda, wambaye ipantaro y'ubururu, ndetse akaba yambaye n'umupira ujya gusa mo umukara ariko werutse imbere yabo hari inzu, iyo nzu ikaba ifitemo ibyapa, icyapa kiri hejuru y'umuryango gisa ubururu ndetse cyandikijwemo n'amagambo y'umweru.

Igiti giteretsweho akagare gatwara imyanda ndetse n'indobo ijugunywamo imyanda igiye igitandukanye ndetse bikaba biri ku muhanda rwagati. Bikaba ku muhanda nyabagendwa uri hafi y'umuhanda unyuramo ibinyabiziga ndetse uwo muhanda hakaba harimo n'umurongo w'umweru uciyemo.

Umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo ugendwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hafi aho hakaba hari ibinyabiziga bibiri bihagaze ndetse hakaba hari n'ikinyabiziga cyikorera cy'amapine ane hagati ndetse n'andi mapine abiri inyuma.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga by'amapinane ndetse harimo n'amapikipiki atwaye abagenzi ndetse iruhande rw'izo modoka hakikijwe n'uruzitiro rw'icyatsi ndetse urwo ruzitiro hafi yarwo rwateyemo n'ibiti.

Umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo ikinyabiziga cy'amapinane gifite irangi risa umweru ndetse kikaba gisize n'irangi ry'umuhondo hasi, ndetse hakaba harimo n'amapikipiki harimo n'umunyegare.

Umuhanda urimo ikamyo y'ubururu, ku idirishya ryayo imbere y'umushoferi hariho ibara ry'icyatsi ndetse n'umurongo w'umuhondo hejuru, ndetse hirya yaho hari uruzitiro rusa icyatsi ndetse iburyo bwayo hari rigori.

Inzu ndende, igeretse kabiri, ifite imiryango y'icyatsi, amadirishya y'icyatsi, ndetse hanze yaho hari umuhanda nyabagendwa, wa kaburimbo, urimo abanyamapikipiki, batwaye abagenzi.

Ikamyo y'ubururu, ifite amapine arimo ibara ry'umuhondo ndetse rivanze n'umukara, muri icyo gikamyo harimo umugabo wicaye ku mabati hejuru, ku nkengero z'umuhanda hariho uruzitiro rusa icyatsi, ndetse n'ibiti bikikije umuhanda.

Ikamyo yikoreye imifuka myinshi hepfo yayo hari imodoka ndetse n'imbere yayo hari izindi modoka, imbere yaho hari igiti giteye gifite amashami menshi ndeste n'ibimoso bwawo hari ikindi gikamyo gifite ubara ry'ubururu.

Umuhanda nyabagendwa unyuramo ibinyabiziga, ibinyabiziga bibiri by'amapine ane biri kubisikana ndetse ikinyabiziga kimwe gifite irangi ry'umutuku rigisizeho ndetse n'ikindi byegeranye kikaba gisize irangi ry'umweru ndetse hirya yaho hateye ibiti hafi y'uwo muhanda.

Imodoka ya rukurane ifite ububiko bw'icyatsi ku mugongo wayo, ikaba ifite n'ibara ry'umutuku ku mutwe wayo w'imbere, ndetse kuri iryo bara ry'umutuku hadikijwemo amagambo y'umweru, ikaba ikikijwe n'ibiti ndetse n'uruzitiro rusa icyatsi.

Imihanda ibiri iteganye, hagati harimo ibiti ndetse n'ibyatsi ndetse mu muhanda w'iburyo hakaba harimo umunyamapikipiki ufite n'umugenzi, akaba atwaye umugenzi ku ipikipiki isa mu ibara ry'umutuku ndetse umutuku uvanze n'umweru imbere, ikaba ifite n'amapine asa umukara.

Umuhanda nyabagendwa unyuramo ibinyabiziga ndetse umuhanda ukaba urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Harimo ikinyabiziga cy'amapine ane ndetse cyikoreye ibintu, hakaba hari n'amapikipiki ari imbere yacyo, ayo mapikipikiri, akaba ari amapikipiki afite amapine atatu.

Inyubako ndende bugari ndetse iyo inyuba ari nyubako irangaye irimo ibyuma ndetse bigiye bisize amarangigi atandukanye, bikaba ibyo byuma bisize amarangi hejuru ubururu, hagati umuhondo hasi icyatsi ndetse iyo nyubako ikaba irimo abantu bagiye bayicayemo.

Imbuga ngari irimo ibyatsi ndetse ishinzwemo n'ibyuma bigiye bitandukanye, ndetse harimo n'inyubako y'ahantu abantu baza kurebera umupira ndetse uwo mupira akaba ari umupira w'amaboko ndetse hakaba yateyemo n'icyuma cyifashishwa mu mikino.

Ikibuga gishushanyijemo imirongo y'umweru iburyo bwacyo hari ikindi kibuga nacyo gifite ubutaka bujya gusa umutuku nk'ubw'iki kibuga cyambere ndetse hari amapoto ashinze ahongaho mu kibuga ndetse n'ibiti bigaragiye icyo kibuga.

Imihanda minini miremire iteganye ifite amabara atandukanye, uw'iburyo ufite ibara ry'icyatsi riciyemo n'imirongo itatu y'umweru ndetse ukaba ari umuhanda wegereye hafi y'ibiti.

Ikirango kiri mu ibara ry'ubururu, iryo bara ry'ubururu ryandikishijwemo inyuguti inyuguti ya pa, iyo nyuguti ya pa iri mu ibara ry'umweru ndetse ikaba icyo kirango kiri mu ibara ry'ubururu giteretse ku ibara ry'umweru, iryo bara ry'umweru akaba ari ryo rigiye rigaragiye icyo kirangantego cyose.

Umuhanda nyabagendwa urimo abagenzi bagiye batandukanye ndetse harimo n'abanyamaguru, harimo n'ibyapa bigiye bitandukanye, harimo n'icyapa kiri mw’ibara ry'icyatsi ryandikishijweho amagambo ari mw’ibara ry'umweru, ndetse hakaba n'icyapa kiri mw’ibara ry'umweru cyandikishijweho amagambo ari mw’ibara ry'umukara.

Icyapa cy'uruziga gifite ibara ry'umutuku, gifite umweru hagati kirimo inyuguti ya p isa umukara, ndetse iciwemo n'umurongo w'umutuku, ndetse munsi y'icyo cyapa hari ibyatsi ibumoso bwacyo hari umuhanda wa kaburimbo.

Icyapa cya mpandeshatu, cy'umutuku, kiri mu ibara ry'umweru, hagati harimo uturangacyerekezo dutatu tw'umukara, tugaragaza aho ibinyabiziga binyura bizengurutse, mu muhanda.

Ishusho igaragaza umuhanda ugendwamo n'abanyamaguru, ku ruhande rw'iburyo harimo ibyatsi bitewemo ibiti, hafi y'umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo unyurwamo n'amapikipiki ndetse n'ibindi binyabiziga bitandukanye.

Icyapa cy'umutuku cya mpandeshatu kirimo umweru hagati, ndetse n'umusaraba ushushanyije mu ibara ry'umukara, hafi yaho hari igikuta cy'umweru ndetse n'igiti, hafi y'icyo giti hari imodoka zihagaze.

Ikirango cyigaragaza igice cy'umuhanda cyifashishwa mu muhanda unyurwamo n'ibinyabiziga. Ndetse icyo cyapa kikaba gifite ibara ry'ubururu, n'umweru hagati, ndetse cyikakwerekeza gukomeza imbere.

Umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo, umuhanda ukaba hafi yaho hariho agakuta kazamuye ariko ari gatoya, ako gakuta kakaba kariho irangi risizeho ry'umweru, ugiye uvanze n'umukara ndetse bikaba bigiye bisimburana ndetse hafi y'ako gakuta hakaba hari n'icyapa cy'umweru kiriho uturangantego dusa ibara ry'umutuku.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ipikipiki ndetse ipikipiki ikaba ifite uyitwaye, wambaye ingofero irinda umutwe ndetse akaba atwaye amaziko akoreshwa n'ibinyabutabire ndetse inyuma yiwe hari urusengero runini.

Inyubako iri mu ruzitiro, urwo ruzitiro rukaba ari uruzitiro rusa mu ibara ry'umweru ndetse rufatanye n'irindi bara risa nk'icyatsi, icyatsi kibisi ariko cyijimye. Ndetse iyo nyubako ikaba ari inyubako isize irange ry'umweru ariko ifite n'amatafari asa n'ibara ry'umutuku.

Inzu ndende igeretse kenshi ifite amabara y'ubururu ndetse n'icyatsi, ndetse ibumoso bwaho hakaba harimo n'umuhondo, umuhondo ujya kubamo umutuku mo ukuntu ndetse hasi yaho hari igiti.

Uruzitiro rurimo inyubako icumbikwamo n'ingeri zigiye zitandukanye z'abantu ndetse muri iyo nyubako ikaba ari inyubako isize irangi ry'umweru, iryo rangi ry'umweru ndetse rikaba rifitemo n'irangi ry'umukara rigiye rimanuyemo ndetse hakaba muri urwo ruzitiro hafi yarwo hari igiti kihateye.

Inzu ndende iri mu gipangu igarariwe n'inzu ngufiya, ndetse hafi y'iyo nzu hari umunara muremure, hirya y'uwo munara hakaba hari ibiti, ibyo biti biteye hafi y'ahantu hari ubutaka ndetse hari n'imambo.

Ikibanza kinini kirimo inyubako zitandukanye, izo nyubako zikaba zifite ibisenge by'umutuku ariko hakaba hari n'inyubako imwe iri muri izo nyubako ifite igisenge gisa mu ibara ry'umukara, ndetse hasi yaho hakaba hari ibyatsi ndetse n'ibiti biteye hafi y'izo nyubako.

Inzu y'amagorofa ifite irange ry'umweru n'amadirishya, y'umukara ifite n'irange ry'umutuku, ndetse hakaba hari n'umutaka hafi y'iyo nzu, ndetse inyuma y'icyo gipangun hari ibati rihateretse ry'umutuku.

Inyubako igeretse gatatu, iri hafi y'umuhanda nyabagendwa, umuhanda uparitswemo n'ibinyabiziga bitandukanye, harimo ibinyabiziga by'amapine ane, harimo n'amapikipiki abiri, amapikipiki abiri ariho n'abayatwara ndetse harimo n'umuntu wikoreye umufuka mu muhanda.

Inyubako ndende igeretse kenshi iri mu ibara ry'icyatsi cyijimye ndetse ifite n'igipangu gisa mu'i ibara ry'umukara, icyo gipangu kikaba cyegeranye n'ikindi gipangu kiri mu ibara risa umukara ariko werurutsemo.

Inyubako zitandukanye nyinshi zegeranye ziri ahantu hamwe zigiye zifite ibisenge bigiye bitandukanye, harimo n'inzu ifite ibisenge gisa ubururu ndetse no hirya yaho hakaba n'indi ifite igisenge cy'umutuku.

Umuhanda wa kaburimbo nyabagendwa, umuhanda ukaba wegereye ibiti, hafi y'uwo muhanda hakaba hariho ibiti bihateye ndetse ibyo biti birimo n'ibyatsi bigiye bizitiye hafi y'ibyo biti ndetse ibyobyegereye hafi y'agahanda gatoya k'abanyamaguru, aganda kariho agakuta kazamuye gato kariho irangi ry'umukara ndetse n'umweru bigiye bisimburana.

Inyubako ndende isize irangi ry'umuhondo ndetse harimo n'umukara, harimo n'imirongo ibiri iteganye y'umutuku; munsi y'iyo nyubako harimo ibinyabiziga by'amapine bihagaze ndetse ibyo binyabiziga bikaba biri kureba mu byerekezo bi bitandukanye ndetse bikaba hari n'uruzitiro rurimo, aho ruzitiye aho ibyo binyabiziga biri ndetse hari n'icyapa kiri hanze.

Ishusho igaragaza umurenge wa ndera urimo inyubako zigiye zitandukanye harimo inyubako zifite amabati asa n'ibara ry'umutuku ndetse akaba akikijwe n'ibiti ndetse n'ibindi bibanza bitarubakwamo.

Umudugudu urimo amazu atandukanye harimo amazu maremare ndetse n'ayandi magufi, kuri ayongayo, akaba arimo amazu agiye afite amabati asa nk'ibara ritukura ndetse hakaba hari n'indi nzu iri hafi ifite amabati ayikikije.

Inzu ndende ifite amadirishya maremare munsi y'iyo nzu harimo ibinyabiziga bibiri by'amapine ane umunyegare wegereye ibinyabiziga by'amapine abiri umunyegare yambaye umupira w'umuhondo ndetse yambaye n'ikabutura ijya gusa ikigina na kake bivanze.

Umudugudu urimo amazu atandukanye, afite ibisenge bigiye bitandukanye, harimo amazu afite ibisenge by'umutuku, amazu afite ibisenge by'umukara ndetse n'inzu itararangira kubakwa ndetse hafi y'ayo mazu hakaba hateye ibiti.

Ikibanza kirimo ibiti n'ibihuru ndetse n'ibyatsi, hafi yacyo hari amazu afite amabati y'umutuku ndetse asize n'amarangi y'umweru ariko avanze n'andi mazu ayakikije afite amabara y'ubururu ariko afite amabati y'umutuku.

Uruzitiro rurerure rugiye ruzenguruka ndetse urwo ruzitiro rw'imbere hakaba hatewemo igiti icyo giti kikaba kiriho ibiti bigiye bitandukanye byinshi byishamikiyeho hejuru, ndetse urwo ruzitiro rukaba ruri hafi y'amapoto abiri, aya mapoto akaba ari amapoto ariho insinga hejuru zitwara amashanyarazi.

Umudugudu urimo inyubako zigiye zitandukanye harimo inyubako ntoya harimo n'inyubako ndende, ndetse izo nyubako hagati muri zo hagiye hateyemo ibiti, ibyo biti ndetse bikaba byegeranye cyane n'izo nyubako zigiye zitandukanye ndetse harimo inyubako zifite ibisenge by'umutuku, harimo n'izindi zifite amarangi asize mu buryo bw'ubururu, ubwo bururu akaba ari uburu bwerurutsemo cyane.

Igikuta gisa mu ibara ry'umukara ariko umukara werurutse cyane ndetse kuri uwo mukara werurutse cyane cyane hariho amagambo yandikishijwe mu ibara ry'umweru, ayo magambo akaba ari mu rurimi rw'amahanga urwo rurimi rukaba ari ururimi rw'icyongereza ndetse hafi yaho hari ahantu hatagaragara neza ariko hasa nkahateye ibyatsi.

Mu ihuriro ry'imihanda harimo ipikipiki ifite ibara ry'ubururu ndetse ku ruhande hari n'indi pikipiki ihetse umuntu hari n'imirongo icagaguye muri kaburimbo imenyesha ko abanyamaguru ariho bagomba kwambukira.

Ihuriro ry'imihanda nyabagendwa. Iyo mihanda ya kaburimbo isizemo imirongo ndetse iri mu irangi y'umuhondo, ikaba ari imirongo myinshi itambitsemo ndetse hakaba harimo n'imirongo icagaguye y'umweru imenyesha abanyamaguru ko bagomba kwambuka, ndetse hakaba harimo n'amapikipiki ariho abayatwaye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bibiri by'amapine ane, ndetse ikinyabiziga kimwe cyegereye ku ruhande rw'aho abanyamaguru bategera, ndetse imbere yaho har’ikinyabiziga cy'amapine atatu. Icyo kinyabiziga cy'amapine atatu kikaba gikikijwe hirya n'ibiti bigiye bitandukanye.

Umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo urimo amapikipiki ndetse n'abayatwaye ndetse hari n'ikirararo kiri hejuru y'uwo muhanda ndetse ayo mapikipiki akaba ari guca munsi y'icyo kiraro ndetse n'imbere yayo hari ibinyabiziga by'amapine ane biri imbere y'ayo mapikipiki.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imirongo y'umweru icagaguye, iyo mirongo imenyesha abanyamaguru ko ariho bagomba kwambukira, hirya hari feruje iriho itara ry'umutuku, imenyesha abanyamaguru ko bakwiye kwambuka.

Umuhanda muremure wa kaburimbo urimo ikinyabiziga ndetse icyo kinyabiziga kikaba gisa nk'ikinyabiziga cy'amapine ane, ndetse icyo knyabiziga gifite ibara ry'umukara hejuru ndetse gifite n'amapine asa umukara ndetse hirya yacyo hari amapoto ariho amatara ashinzwe kumurikira abantu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo amapikipiki abiri, ipikipiki imwe ireba mu buryo bwa ruguru ,iyindi ireba mu buryo bwo hepfo, ndetse muri aya mapikipiki abayatwaye bambaye n'ingofero zirinda umutwe ndetse umunyamapikipiki umwe ugaragara ufite ipikipiki ifite ibara ry'umutuku ndetse n'umukara ku ntebe bicaraho.

Mu ihuriro ry'imihanda ya kaburimbo harimo ibinyabiziga bimanuka, ibindi bizamuka ndetse hirya y'uwo muhanda hari ibiti bigiye biteyemo ndetse n'indabyo ndetse ku nkengero z'umuhanda hari n'inyubako zihubatse.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibisate bitandukanye bijya mu byerekezo bitandukanye, uwo muhanda ukaba wegeranye n'inzu ndende ifite ibara risa umweru ndetse ikaba ikikijwe n'ibiti.

Umusore wicaye ku igare uri kugenda mu muhanda hirya y'uwo muhanda, ibumoso bwaho ku mpera zawo hariyo amapoto atwara amashanyarazi, ndetse n'ibiti bihegereye ndetse n'imbere y'iwe hari ibinyabiziga n'amapikipiki.

Ikiraro kinyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye kiri hafi y'umuhanda ndetse umuhanda uri mu byerekezo bitandukanye bijya ahantu hatandukanye hirya yaho hari inzu inzu ndende irimo amatara menshi.

Umuhanda wa kaburimbo uri mu byerekezo bitandukanye, bijya ahantu hatandukanye harimo imodoka y'umukara, hari inzu iri ku ruhande hafi y'inkengero z'umuhanda, ndetse hari n'ibiti biteye.

Umuhanda nyabagendwa munini wa kaburimbo ndetse ukaba n'ihuriro ry'imihanda ibiri, uwo muhanda ukaba urimo velomoteri, ndetse ukaba urimo n'ipikipiki. Iyo pikipiki ikaba itwawe n'umumotari, umumotari wambaye ijire y'ubururu irimo umuhondo ndetse n'ingofero y'akazi ndetse hakaba harimo n'imirongo y'umweru iciyemo muri uwo muhanda wa kaburimbo.

Imihanda ya kaburimbo nyabagendwa aho imihanda ibiri ihurira ndetse iyo mihanda ikaba irimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Harimo amapikipiki, harimo n'ibinyabiziga by'amapine ane ndetse ibyo binyabiziga bikaba bigiye bifite amabara atandukanye hakaba harimo n'ikinyabiziga gifite ibara ry'icyatsi gusa.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye harimo amapikipiki, harimo n'ikinyabiziga cy'amapine ane ndetse n'ibindi binyabiziga by'amapine ane iri inyuma y'amapikipiki, icyo kinyabiziga kiri imbere gifite irangi ry'umutuku ndetse n'irangi ry'umweru imbere, ikinyabiziga cy'amapine ane.

Umuhanda wa kaburimbo ku ruhande rwaho hari umuhanda w'abanyamaguru uri kugendwamo n'abanyamaguru, muri uwo muhanda wa kaburimbo harimo igare rifite umuntu uritwaye wambaye umupira w'ubururu ndetse hejuru yaho y'uwo muhanda hari ikiraro.

Ihuriro ry'imihanda ya kaburimbo, imihanda ikaba ari imihanda miremire, ndetse hagati harimo ibyatsi biteyemo biriho n'ibiti ndetse iyo mihanda ikaba ikikijwe n'ibiti, ndetse iburyo bw'umuhanda umwe hakaba hari igipangu kirekire cy'amabuye.

Imihanda ibiri iteganye ndetse ifite n'uwagatatu wo hepfo, irimo ibinyabiziga bitandukanye, hari amatara ari kwaka k'umuhanda, ndetse n'inyubako iri k'uruhanda rw'iburyo.

Imihanda ibiri iteganye umwe wo hejuru n'undi wo hasi, hagati y'iyo mihanda harimo ibyatsi biteyemo ndetse hateyemo n'amapoto agaragaza, akwirakwiza umuriro. Umuriro w'amashanyarazi kugirango hake ndetse hari n'ibiti ku ruhande bigaragiye uwo muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo unyuramo ibinyabiziga, amapikipiki ndetse n'ibindi bitandukanye, hari umuhanda wa kaburimbo ukomeza n'uwundi uhita ukata ibumoso usubira inyuma. Harimo umunyegare utwaye igare.

Imihanda ya kaburimbo iri mu byerekezo bitandukanye ndetse iyo mihanda irimo imodoka, imodoka ifite ibara ry'umukara ariko werurutsemo, ifitemo n'itara ry'umutuku inyuma ndetse ikaba ifite n'ikiranga nimero yayo gisa umuhondo.

Umuhanda w'abanyamaguru, ukaba ari umuhanda nyabagendwa, umuhanda ukikijwe n'ibyatsi biteye hasi. Ibyatsi bikaba hari ibyatsi biri ku ruhande rw'ibumoso, hakaba n'ibindi byatsi biri ku ruhande rw'iburyo ndetse muri uwo muhanda hari umugore cyangwa se umukobwa wambaye ijipo ariko utagaragara neza.